Afande, umupolisi mukuru yicaye ku ntebe, arikuba imbere, aratuje.

umumotari uhetse umugore n'abana babiri, inyuma hariho na za matera akana kicaye hejuru ya matela ,abandi bantu benshi hirya hariho ishyamba ry'ibiti.

Umupolisi uri kumwe n'umudamu, hari akantu bari kwerekana, hirya hariho abantu benshi bari mu gihangari gisakaje amahema.

Abasirikari benshi bari mu kibuga inyuma yaho harishyamba, bahagaze ku umurongo bateze amatwi uri kubayobora.

Umugabo wambaye igisarubeti n'ingofero by'akazi. Afite isafuriya hejuru y'ameza, n'abandi bantu bari mu mutaka hirya yabo, na za kizimyamoto.

Abashinzwe umutekano bitwa abadaso bakunze kuba ku mirenge, imbere y'inzu iriho amakaro n'amapave hasi.

Abantu benshi cyane bicaye bitonze bari mu nama bari mu nzu hatwikiriye neza.

Abantu benshi n'umuyobozi bari mu kibuga bateze amatwi umuyobozi, ufashe mikoro arikuha amabwiriza bari mu nama.

Umudaso ufite igitabo arambitse ku mavi, iruhande rwe hari umugabo uri gukoresha kompiyuta n 'abandi bantu benshi bari mukidara.

Abantu benshi, umugabo umwe afashe mikoro ari kuvugira kuri mikoro, ari gutanga amabwiriza, abandi bamuteze amatwi.

Abantu b'ingeri zinyuranye zirimo abana, abagore, abagabo bari gukoma mu mashyi, hirya hariho ibiti by'imiyenzi.

Inkongoro banyweramo amata ikurakuye, iteretse ahantu ariko ntabwo bakiyinyweramo amata.

Umugabo w'umuvumvu. ari guhakura ubuki mu mitiba ya kizungu. Imitiba yegetse mu rutoki

Umuntu urikuboha icyibo, bashiramo ibintu imyaka bejeje, arikubohesha uru urushinti, uruhindu rwita uruhindu.

Abantu nk'abamu bikoreye ibyibo bashyiramo imyaka bagiye mu bukwe, bari kumwe n'intore zibyina mu bukwe.

Ikarita y'u Rwanda. Amahembe abiri, uduseke dutatu, ishusho y'umusambi babaje mu giti n'umuntu babaje mu giti.

Umudamu ufashe igisabo bacundiramo amata, yicaye hasi ararambirije.

Abantu babiri bari mu muhanda, bafite ingobyi iheka abantu barwaye, hariho ikirangiti. Hirya hari ibyatsi.

Umwana w'umukobwa aryamye ku buriri, hariho ibirago ku musego, hariho agacuma bajyaga banyweramo inzoga n'icyibo.

Ingobyi ya kinyarwanda iheka umurwayi udashoboye kwigeza kwa muganga irambitse mu twatsi ariko abahetsi bo ntabahari.

Inzu ebyiri z'ibyatsi zizitije zizitiye n'ibiti hirya hariho umurima urimo ibyatsi hakurya hariho imisozi.

Ibicuma bibiri birambitse ku birago. Ibicuma bajyaga babiyweramo inzoga kera, birimo n'imiseke ibiri ibiri biri kurebanya iminwa.

Intore eshatu ziri kubyina, zifashe n'amacumu mu ntoki hirya hariho uruzitiro rwa sipure.

Akayuya bakeresha ubwatsi, karambitse hasi mu byatsi, bakifashisha bari gukera ubwatsi bw'amatungo.

Umurima munini cyane, urimo abantu bari guhinga, bari guhinga bari ku muronko ariko harimo batatu bari kwiganirira.

Ibyibo bipfundikije imitemeri bajya bashiramo imyaka iri ku meza meza ashasheho igitambaro kinini.

Abantu basutamye, undi yicaye hasi, hagati ya bo hariho inkoko, umwe akojejemo ikiganza, hariho n'abana babiri bahagaze, hirya hariho imodoka zitwara abantu.

Ibicuma bitanu biteretse ku birago. N'igicuma n'ikibindi giteretse ku ngata, n'ikindi gicuma kinini giteretse ku ngata.

Intore ziri kubyinira ku mbuga iriho amapave n'abandi bantu benshi, harimo n'abagabo bari kuvuza ingoma.

Abantu babiri bafite inyogosho zitandukanye, inyogosho zo hambere igihe cy'abami.

Ni ibicuma biri mu muvure bakamiramo, n'agatanda bakamuriraho ibikatsi.

Inka y'inyambo, hari umugabo, umusaza usutamye imbere yayo, ufite n'agakoni n'abana bameze nk'abanyeshuri bambaye iniforume.

Umugore upfukamye ku kirago ari gusya amasaka, imbere ye yahashyize inkoko n'agakoma, hejuru yako ifu irajya irasohorera, munsi y'ako gakoma hariho inkoko.

Ni umuvure bakamiramo inzoga yo kunywa. Umuvure nta kintu kirimo, nta bitoki bashyizemo, uri mu rugo imbere.

Abakobwa babiri bikoreye ibibindi bavomesha, bakanengeramo inzoga. Bari munsi y'agasozi , barahagaze.

Umuvure bakamiramo ariko urimo ubusa, urambitse hejuru y'ikirago ku mbuga iriho amabuye ashashe bubakiye.

Intore ziri kubyina, zabyinaga i bwami kera, ariko na none intore zirahari; n' inzu ebyiri z' ibyatsi iruhande hateye igiti kinini kirumbaje.

Abantu benshi bambaye neza batashye ubukwe, imbere yabo hariho umugabo ufite igicuma banyweramo inzoga.

Abakobwa batatu bambaye imyenda isa, bari kurashisha umuheto. Imiheto bayikoreshaga bari guhiga hambere.

Intebe y'ikinyarwanda bicaragaho hambere na n'ubu ziracyahari, ariko ntabwo zikunda kuboneka, bayiteretse ahantu hari amakaro.

Ingata n'igitebo giteretse ku ngata, igitebo bakibohesheje utuntu tunyuranye, giteretse gihengamye.

Umugabo uri gukamira mu muvure bashyizemo inshinge, ni zo arigukamisha hari n'undi umuhagaze imbere uri kwitegereza ibyo ari gukora.

Inzu y'ibyatsi iruhande bahashyizeho isima, imbere mu muryango harimo inkingi.

Umutiba w'inzuki bagitse mu giti hejuru, umutiba wa kinyarwanda ntabwo ari uwa kizungu, bawushyize mu ishyamba.

Abantu bane barimo umukobwa wikoreye icyibo, ari kubyina yikoreye icyo cyibo.

Inka y'inyambo igaragiwe n'abantu benshi, hariho umwe upfukamye, wambaye ingofero, ufite n'inkoni.

Imugabo utambaye igice cyo hejuru uri mu isinde kera bitwikiraga bari kwirinda imvura cyane cyane abashumba.

Fizibure bacomekaho intsinga z’umuriro, bakanawukupira hariya kuri iyo fizibure imanitse, kuko bayiteye ku rubaho.

Urusengero ruri ahantu heza, kandi na rwo ni rwiza, rufite n'ibaraza imbere. Hirya iburyo hari igiti kinini n'ibumoso ku nguni ya ruguru hari ikindi giti.

Inzu zubabatse hejuru y'agasozi karambirije. Munsi hariho imihanda inyuranyemo, hakurya hariho imisozi miremire.

Umuntu wicaye muri salo ipantaro yayihinnye, afashe ku ivi, harimo ameza, n'inzu irimo sima.

Ikigo cy' amashuri abana bigaho, ariko kirakinze abana ntabahari ni zuba riri kuva bigaragara ko baruhutse.

Abantu bari mu muhanda n'inzu hirya y'umuhanda, inzu ikurakuye n'indi yubakishije amabuye. Inyuma y'ayo mazu hariho ibiti byinshi n'ibindi biti binini.

Ikiraro kiriho senyenge hirya no hino, hariho n'ibipirizo bitatu bitatu iburyo n'ibumoso, n'inkingi zubatse neza, imbere cyane hari abantu bari kugenda mumuhanda.

Urusengero runini cyane rwubatse neza, hari umukecuru uri kurwerekezaho n' imodoka ziparitse iruhande rw' urusengero.

Urusengero rwiza, rurimo ahantu heza hariho abari gukoreraho imirimo, abantu benshi, hirya hariho n'igiti kinini.

Umuhanda mwiza unyuze hagati y'amazu. Hakurya amazu no hakuno amazu menshi cyane, ukomeje hirya, hanyuma n'ikirere cyiza cy'urwererane.

inzu zubatse munsi y'akayira, hakurya hariho amazu menshi ku misozi irambirije n' ibiti.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu, inyuma hateyeho igiti ni ibendera, imbere y'iyo nzu n'umuntu hirya ahagana ku ruhande.

Ikigo cy'amashuri, inyuma hari urutoki rwinshi rushishe. Amashuri, inzugi zisize irangi ry'ubururu n'amadirishya.

Agahanda kari hagati y' ibinani, hirya hariho igiti kinini n'amazu.

Abadamu bari gukoma amashyi, bicaye, ku ntebe y'imbere hariho umudamu umanitse amaboko, n'abagabo hirya benshi bahagaze, n'ibiti, hirya y'ibiti hariho amazu.

Abantu benshi harimo abagabo n' abagore bapfutse iminwa nki gihe korona yari yateye; umugabo atunze umudamu mikoro.

Abantu benshi bahagaze umudamu afashe mikoro imbere yabo hari umugabo munini.

Abantu benshi cyane ,abenshi baricaye abandi abagabo barahagaze n'abagore barahagaze, imbere yabo hariho umugabo munini uhagaze.

Nk'abanyonzi bamagare batwara abantu bahagaze imbere y'inzu. Bambaye amajiri, n'amagare ariho imisego, abantu bicaraho.

Umuhanda urambuye urimo imodoka zitwara ibintu. Harimo imodoka ebyiri. Iruhande hariho umurima munini uciyemo udupariseri.

Imodoka ya kwasiteri itwara abantu, ifunguye nta muntu rimo. Hirya hari igiti kinini , iri mu muhanda irahagaze.

Abantu benshi bari mu mujyi, amatara ari kwaka, harimo n'inzu ndende igeretse.

imodoka nini ipakiye imizigo, iri mumufuka mumifuka minini hirya hariho igiti kirekire.

Abanyonzi benshi batwara abantu ku magare, n'inzu nziza, n'imodoka. Ni inzu ya etaje.

Imodoka iri mu muhanda. Imodoka nini icanye amatara y'inyuma mato. Hariho umunyegare uyotamye, iri kumukurura. Ari ku igare n'ikidomoro.

Umugabo, n'umugore, n'umwana bari ku igare. Umugabo ahetse umugore usigatiye n'umwana, bicaye ku igare bose.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, ni imodoka nini yikoreye ibintu, inyuma yayo hariho izindi modoka nini, iruhande rwaho hariho amazu n' uturabo kuruhande rw' umuhanda.

Abantu bari muri gare, harimo imodoka zitwara abantu za kwasiteri na tagisivatire nayo itwara abantu.

Ibimodoka binini bya hoho biriri mu muhanda, hirya hariho ibiti byo mu ishyamba n'apine irambitse ku ruhande rw'umuhanda.

Iyi ni imodoka bari gupakururamo imifuka n'inzu y'ubucuruzi na kenkayori icuruza amabati na matera

Muri gare harimo imodoka zitwara abantu harimo abantu benshi, bari gutega imodoka ngo zibatware iyo bashaka kujya.

Abagore babiri bicaye muri rifani, umwe n'umushoferi yambaye agapfukamunwa, ariko ntabwo yagashize ku munwa, n'abandi badamu babiri ba yuriye, inyuma ipakiye n'imizigo, undi ari hasi, hirya hariho n'ishyamba.

Umuntu utwaye lifani ayicayeho aho ari hari n'amapave.

Amagare atatu bahagaritse ku mbuga iriho amakaro, hejuru hariho amasikariye nayo y'amakaro asamutse imbere y'ayo magare.

Imodoka nyinshi ziri muri gare, zitwara abantu berekeza mu ngendo zinyuranye, n'umugore ufite akadomoro ari gutambuka.

Umugore uri ku igare uhetse ibintu mu mufuka bihambiriye n'imodoka y'umutuku iruhande rwe hariho n'indi itagaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara abantu bari ku rugendo, hafi yaho ku ruhande hariho igiti kinini, giteye ku ruhande rw'umugezi.

Imodoka nyinshi zitwara abantu, hariho imodoka bita ritiko n'abantu benshi, bagiye gutega izo modoka.

Abagabo benshi n'abagore, bahagaze imbere y'imodoka zitwara abantu bagiye mu rugendo. Harimo abirabura n'abazungu.

Imodoka nini itwara abantu, bamwe bayigezemo, undi ahagaze mu muryango, ari kwinjira.

Umu motari yicaye kuri moto yambaye kasiki, ari guseka arishimye yambaye nipantaro y'umukara ni nkweto z'umukara.

Abantu bari mu mugi harimo na moto ziri gutambuka, n'umuntu uri gutambuka muri ya mirongo y'umweru, iba yemereye umunyamaguru gutambuka.

Imodoka ziri muri gare, zitwara abantu harimo n'abantu benshi cyane, n'imodoka nyinshi. Izo modoka ziri muri gare zitegereje abantu.

Imodoka ntoya zitwara abantu, zihagaze iruhande rw'umuhanda, aho zihagaze hari amapave, hirya hariho inzu nziza.

Abagabo babiri bambaye amadarubindi, bafashe umupira w'umuhondo mu ntoki, n'imipira yo gukina, iruhande rwabo . Umwe awufashe mu ntoki.

Abakobwa babiri n'umusore umwe bari mukibuga, abakobwa bambaye ingofero zisa nudupira dusa, n'udukabutura dusa.

Abana bari gukinira imbere y'inzu umupira, inzu nziza yubakishijwe hamwe amabuye ahandi amatafari ahiye.

Umukobwa uri guseka ari kureba inyuma, ufite umupira yambaye n'isaha. Hirya ye hariho ibiti bibiri, hirya n'ubundi hari inzu nziza igeretse.

Abantu bari mukibuga, bari gukora siporo, hirya yikibuga hari ishyamba ririmo ibiti.

Umukobwa uri muri siporo mu kibuga. Hirya ye hari hashinze ibiti, ibyuma bizitiye bisudiriye.

Abasore bari mu kibuga cy'umupira wa handiboro babiri bari kurwanira umupira, bari kujya kuwuterera muri paniye. Hariho n'ibiti iruhande rw' icyo kibuga n'abantu benshi babarangariye.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga cy'umupira, bari gushaka gutera amahane, nimero esheshatu yafashe nimero enye, abafana bari kurebera.

Abazungu bari gutwara amagare bari mu muhanda wa kaburimbo, bambaye ingofero zabugenewe zabugenewe.

Abana b'abasore bafite imipira, bambaye imyenda ya siporo. Biteguye gukina umupira. Barategereje, bamwe baricaye, abandi bahagaze inyuma yabo.

Abanyamagare bari mu irushanwa, bari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande (rwabo) y' umuhanda hariho abantu benshi babarangariye.

Umugabo wasimbutse hejuru ufite umupira mukiganza cyiburyo, yambaye umupira wicyatsi n'ipantaro y'umukara, n'inkweto zirimo umuhondo n'icyatsi.

Kurusi isi y'abasore bari kwiruka, abasore benshi bari kwiruka mu muhanda.

Abatwaye amagare ya siporo mu muhanda wa kaburimbo bari kuyanyonga. Inyuma hariho imodoka, hejuru y'umuhanda hariho abantu benshi hakurya no hakuno.

Abakobwa bari gukina umupira wa voreboro, bari gukinira mu kibuga. Umwe yisimbu . yiteruye ,agiye kuwutera ngo atsinde.

Abasore babiri bahagaze hejuru kuri sikaliye yambere, umukobwa umwe uri munsi uhagaze kuri sikariye ya kabiri, umusore n'umukobwa bahagaze kuri sikariye ya gatatu igihe hasi.

Abakobwa bane bari muri siporo, bari gukora siporo bari muri marato, iruhande rw'ikibuga mu kayira gashashe amapave atukura.

Abantu bari ku magare ya siporo mu muhanda wa kaburimbo n'imodoka inyuma yabo. Inyuma yabo ni iruhande rw'umuhanda hari amapota y'umurimo n'ibihuru.

Umugabo ukora siporo, wibohesheje imisatsi, bigaragara ko yishimye.

Ibipangu by'amazu, hagati yibyo bipangu hariho umuhanda wa kaburimbo, hariho na borodile, hari umumotari uri imbere urikuza ansanga w'umunyegare uri gusunika.

Ni umuhanda wa kaburimbo, urimo ahantu abanyamaguru bemerewe kwambukira. Hirya hariho ku ruhande, udusima basize amabara atandukanye.